Inyubako iri kugaragaza urubaraza gusa. Imbere hari inkingi zubakishije amatafari ahiye. Hagati y'inkingi n'indi hariho uruzitiro rw'ibyuma. Imbere hari ikibuga kirimo ibyatsi, hagati hatari ibyatsi, hashinzemo ibyuma by'imicundero y'abana, hasi handitse imfinigisi, simati gatandatu.

Umugabo uhagaze, yambaye aga tisheti, yafunguye igipesi kimwe cyo hejuru. Afite ibikoresho byo mw'ibara ry'umuhondo, byifashishwa mu gushushanya. Ikibaho cyanditseho dorowiningi. Uyu mugabo kandi ari kuvuga.

Umunyeshuri wambaye impuzankano, hejuru isa umweru hasi ni icyatsi, arambuye ibiganza ari kureba ibishushanyo yashushanyije by'intore ziri kubyina, inyuma ye hari urukuta ruteye irangi ry'umuhondo ni idirishya rifite ibirahuri.

Abantu batandukanye bambaye bote, n'amapantaro, n'ingofero, n'imipira, bari gukora umuganda, bari guponda kuvanga beto bakoresheje ibitiyo n'amasuka, abandi bari kuyiyora bakayihererekanya, bakayizamura ku nzu igeretse hejuru bakayimenamo, hirya hariyo ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Icyumba gifite pavoma y'umuhondo, n'inkuta ziteye irangi ry'umweru n'utudirishya tw'uturahuri, harimo ameza ateretse n'intebe ziteretse imbere y'ameza, harimo udushushanyo tw'amabara dutandukanye hamwe n'aka etajeri, harimo n'ishusho y'umubumbe w'Isi.

Iki ni igikoni cya kijyambere aho bateka bifashishije gaze. Harimo abantu bane bambaye imyenda y'umweru n'ingofero z'umweru. Umwe yambaye amataratara bari guteka kandi harimo n'ibisorori bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, n'ibisurubeti bya kake. Bamwe bambaye kamambiri mu birenge. Hari urubaho ruryamye hasi rw'umukara, bafite n'irati ndende y'umweru, bari guca imirongo bakoresheje ingwa. Hakurya hari ikibaho kirimo ibice bitandukanye, n'amagambo yanditse. Hari n'umusore wasutamye, wambaye igisurubeti cy'ubururu.

Icyumba cy'inzu gifite amadirishya ariho ibirahuri n'ibitambaro bihanitsemo bizinze .Umuryango urakinze, Mo imbere harimo ameza ateye n'intebe ziyakikije , harimo n'ibicuruzwa bitandukanye.

Iki ni icyumba cy'ishuri, kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe bari kwiga. Bamwe bambaye impuzankano y'umweru abandi bashyizeho imipira. Imbere hari umugabo wicaye yunamye ari kureba mu mpapuro zihari ku meza hari telefone. Afite ikaramu mu kiganza, yifashe mu mutwe, yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.